Ni ikigo nderabuzima cya Mayange, hari abaforomokazi ndetse n'abaforomo benshi barimo babyina bizihiwe, hari umushyitsi ugaragara ko yabasuye ndetse n'undi muzungu urimo ufotora inyuma, aba baforomo barishimye rwose.

Ni inama igizwe n'abantu bagera ku munani, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo batandatu, imbere yabo hagiye hari amatasi arimo icyayi ndetse hari n'amamashini yabugenewe ashyira amashusho ku bikuta.

Ni abana bato bari ku mugezi umwe, amaboko yabo bose ari ku mugezi ari benshi, urabona ko bishimye bari gukina, harimo n'abari inyuma amaboko yabo atageraho ndetse hari n'abari imbere ari kugeraho neza.

Ni kwa muganga ahari kubera igikorwa cyo gukingira abana bato, hari umubyeyi waje gukingiza umwana we wambaye agakanzu k'icyatsi, ari gukingirwa n'umugabo wambaye ishati irimo imirongo, inyuma yabo hari umuganga wambaye impuzankano y'umweru, ndetse n'abandi benshi bateraniye aho hantu.

Ni ababyeyi bicaye ku murongo umwe, bafite abana babo, bigaragara ko baje kubakingiza, harimo umubyeyi umwe wambaye igitenge mu mutwe ndetse unakenyeye n'ikindi, urimo wonsa umwana we.

Ni kwa muganga, ahari abadamu babiri, umwe ni umuforomo, undi ni umurwayi, arimo aramufata umuvuduko w'amaraso, hari n'undi mugabo ubegereye bigaragara ko na we ari umuganga, kuko afite ibikoresho by'abaganga, hano ni mu ivuriro hari amarido asa ivu, hari n'ibindi bikorwa byinshi.

Abantu benshi bari kwa muganga, hari umugore ufite umwana urimo urahabwa serivisi n'abaganga. Abaganga harimo uwambaye itaburiya n'undi wambaye ikoti ry'umukara, ndetse hari n'abandi bicaye hirya bategereje ko bagerwaho.

Abaturage bicaye mu nzu hari abahagaze ndetse hari n'abicaye hari n'undi umwe uri kubigisha, hari igishushanyo bari kwifashisha biga ndetse bari gukorera mu nzu ifite n'umuryango usohoka.

Ni ivomero ryitwa ipombero riri mu cyaro, hari insina nyinshi ziri hafi aho, hari ababyeyi ndetse n'abagabo benshi, hari umubyeyi urimo gutomba amazi ndetse hari n'umwana utezeho amajerekani kuri ayo mazi ari kuva mu ipombo.

Ni umusaza wambaye umupira ndetse n'agapfukamunwa, ari guterwa urukingo n'umuforomokazi na we wambaye agapfukamunwa n'ishati y'akazi y'umweru, iruhande rw'uwo muforomokazi hari undi muforomokazi wicaye ndetse n'undi uhagaze, hari n'ibikoresho biri ku meza.

Ni ikigo cy'abanyeshuri biga amashuri abanza, abanyeshuri bambaye impuzankano bafite ibikombe, barimo baranywa amazi ku tugunguru twabugenewe tubamo amazi yo kunywa.

Ni abakobwa ndetse n'abahungu bicaye ku meza agiye ariho amazi ndetse n'utundi dutabo, abakobwa bambaye imipira y'icyatsi yanditseho H, D ndetse na A, bigaragara ko ari amahugurwa barimo ndetse bambaye n'udupfukamunwa bose.

Umukangurambaga afite igishushanyo mu ntoki arimo arerereka umudamu bari kumwe, ni umudamu ukiri muto wambaye igitenge ndetse n'agapira k'umuhondo, bari ku nzu iriho idirishya ry'icyatsi ndetse n'amabuye agiye akikije iyo nzu.

Ni abarezi benshi bambaye amataburiya bari kumwe n'umuyobozi waje kubasura, aba bayobozi harimo abadamu, harimo abagabo ndetse harimo n'abasore n'inkumi ubona ko bakiri bato.

Ni utwana tune turimo gukarabywa intoki na papa watwo, twambaye imyenda y'iroze, iy'imyeru, iy'ubururu, ndetse na papa watwo yambaye bote afite igikombe mu ntoki arimo aragenda asuka amazi mu biganza by'abo bana.

Inama ijyanye na virusi ya mabag hari abagabo babiri bicaye imbere ku meza bafite amamashini imbere yabo ndetse n'utwuma twagenewe gucishamo amajwi imbere yabo ndetse hari amazi ndetse hari n'abandi bakurikira inama bicaye.

N'ivomero ry'ipombo ririho ababyeyi batatu, babiri barimo barapompa amazi akagenda ajya mu kibase kinini ndetse n'undi mugore urimo aragenda ataha muri icyo kibase amazi yagiye ajyamo.

Ni umwana muto uri ahantu hari inombe ryinshi cyane, ni ku mavomero rusange yikoreye indobo bisa nkaho iremereye cyane, iruhande rwe hari umugabo umufashije ingata.

Ni umwana muto uri gukina n'abandi bana yambaye umupira w'ubururu ndetse n'umukara yambaye n'ikabutura y'icyatsi ari kwishyira amazi mu mutwe arishimye cyane ku buryo bugaragarira amaso.

Ni ivomero ryitwa ipombero, riri mu cyaro, hari abana bagera muri batanu baje kuvoma, ndetse n'umubyeyi wabo, baje bitwaje amajerekani, amabase, indobo ndetse n'ibindi bitandukanye, barimo baravoma amazi.

Ni umugezi urimo uravomerwaho n'umukobwa wambaye agapira k'umuhondo, iruhande rwe hari umunyonzi urimo uragenda yoza igare rye, wambaye agapira k'umuhondo n'ipantaro y'umukara, n'amabodaboda y'umweru, ndetse hafi y'uwo mugezi hari ibyatsi byinshi.

Ni akana gato kambaye ubusa hejuru n'agakabutura kari kumwe n'umubyeyi wako, aka kana bigaragara ko karwaye kuko kari kwa muganga bari kugakoraho ngo bumve umuriro kaba gafite.

Intebe iri mu busitani yicayeho ababyeyi batatu umugore wa mbere yambaye ishati y'umutuku ndetse ateze igitenge mu mutwe ndetse n'ikindi akeneye hari imashini iri gupima umuvuduko w'amaraso ku kuboko kwe hari n'umuforomokazi uri kubimufashamo.

Ni inama yahuje abaturage benshi, hari igisharagati, ndetse imbere y'igisharagati hari idarapo ry'igihugu, ndetse hari n'inzu itari nini cyane, iri aho hirya mu gashyamba, hari imodoka ndetse iparitse imbere y'abo baturage.

Ni umudamu uteruye umwana mu bigoma. Umudamu wambaye agapira k'ubururu afite n'ibiska mu mutwe, ari kumwe n'undi mudamu ufite akamashini kagenewe gupima umuriro, uyu mudamu bigaragara ko ari umukorerabushake, ko yambaye amajire yabo ndetse yambaye n'agapfukamunwa.

Ni umunyamahanga urimo arafotora akana gato kikoreye injerekani ndetse iyo njirekani kayikorewe n'umugabo umuri iruhande, wambaye ingofero n'agapfukamunwa ndetse n'umupira by'ubururu. Hirya aho hari n'abandi bagabo bagera kuri batatu.

Ni abagabo babiri bambaye neza cyane, umwe yambaye ibirahuri by'amaso, barimo bararamukanya, bari ahantu imbere bigaragara ko hari kubera inama y'ibijyanye n'indwara ya Marburg, abo bagabo harimo umwe ufite ibitabo mu ntoki, undi afite telefone mu ntoki.

Ahagiye gukorerwa gahunda yo gupima abana ibiro, hari umugabo ubishinzwe, wambaye ikaburiya y'ubururu ndetse n'amadarubindi, hari umugore uteruye umwanawana muto bagiye guheraho bapima ibiro.

Ni abana bagera kuri barindwi, bose bari mu mazi barimo baragenda boga, harimo aboga basa nk'abaryamye ndetse hari n'uhagaze inyuma, urimo arareba mugenzi we uburyo yogamo ndetse aba bana biragaragara ko bishimye cyane.

Ni akana gato kishimye cyane, gafite amazi mu ntoki arimo arava mu ivomero ry'ipombo, hari amajerekani iruhande rwako, ijerekani nini ebyiri ndetse n'indi ntoya imwe.

Ni abana bato biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano za kontoni ndetse n'izindi za kake, abana bambaye udupfukamunwa ndetse barimo bararya, imbere yabo hari amasahane ariho akawunga, ibishyimbo ndetse n'ibikoresho bakoresha barya.

Ni inama irimo abantu benshi iyobowe n'umugore wambaye ikanzu y'umweru n'ikoti ry'umukara, harimo abantu benshi; hari abari kwandika, hari abari kureba muri telefone, ku meza hari amazi ndetse n'ibikapu, hari n'intebe ziticayeho abantu.

Ni umukobwa wambaye agapira k'umweru, ubona ko afite agahinda kuko yifashe ku matama, hari n'umuhungu mugenzi we umwegereye, uri kugenda amuhumuriza amufashe ku kuboko.

Ni imodoka yifashishwa mu bijyanye no kuvura indwara zo mu mutwe, iri ahantu hitwa mu bugesera, inyuma hari ibishararaga ndetse n'intebe nyinshi bigaragara ko ari ibyo kwifashishwa muri ubwo buvuzi, hari n'umugore uhegereye.

Ni abaturage benshi harimo abana, harimo ababyeyi, harimo abagabo bishimye cyane bafashe amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda mu ntoki ndetse iruhande rwabo hari n'ameza...

Umwana arasamye muganga yamucometse akamashini mu kanwa arimo aramusuzuma uburwayi bw'amenyo, muganga yambaye itaburiya y'icyatsi ari mu ivuriro ririho imiti ku meza ndetse n'ibitabo byinshi.

Ni abanyeshuri biga mu mashuri abanza, barishimye cyane bari guseka ndetse bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki ndetse n'umuti w'amenyo, ndetse hari n'umwarimu wabo bose barishimye cyane bigaragara ko ubu buroso ari ubwo bahawe.

Ni umusaza wambaye umupira w'icyatsi uri kwivuza amenyo kuko hari igikoresho bamushyize mu kanwa bigaragara ko barimo baramusuzuma amenyo, uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru, amaga y'umweru, agapfukamunwa k'umweru.

Ni umurwayi ufite ibibazo by'amenyo, yambaye umupira w'umukara ndetse aryamye ku gatanda kabugenewe, imbere ye hari umuforomokazi w'umuzungu, wambaye ama ga y'ubururu ndetse afite n'igikoresho mu ntoki ubona ko cyagenewe gukoreshwa mu menyo.

Umwarimu wigisha ibijyanye n'amenyo, ari kwigisha umwana muto wambaye impuzankano y'icyatsi yifashishije inyigisho y'amenyo, inyuma ari kumwe n'abandi bantu bagera kuri bane bazanye kwigisha.

Ni umusaza uri mu zbukuru ubona ko arwaye arembye, yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ivu, arimo arabyutswa n'umukobwa ukiri muto bigaragara ko uyu musaza atameze neza.

Mu muhanda harimo abagore bagera kuri bane, bari mu myitozo ngororamubiri, bari mu muhanda hagati, hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza cyane, aba babyeyi barasa nk'abakuzemo, bambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri.

Ni umukecuru uri mu zabukuru, wambaye impeta, ufite ikirahure mu ntoki cy'amazi, yambaye agapira k'ubururu ndetse yambaye n'ibirahure by'amaso, urabona ko akuze kuko imisatsi ye irasa umweru, ari mu cyumba cyiza kirimo ishusho n'igitanda ndetse n'imisego.

Ni abakecuru bari mu kigero kimwe batatu, bose imisatsi yabo yamaze kuba imvi, umwe yambaye agapira k'umweru, undi ak'umuhondo, undi ak'ubururu bwerurutse, uwo hagati n'ufashe terefone bari kurebamo, bifotora, baseka.

Ni umugabo ugeze mu zabukuru ufite ubwanwa bwajemo imvi, ndetse bari kumwe n'umukobwa ugaragara ko akiri muto, arimo aramuhereza imiti, uwo mugabo imbere ye hari imashini ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Inzu nziza irimo umukecuru ndetse n'umusaza, umukecuru yambaye impeta ku kaboko, isaha ku kaboko, amaherena ndetse n'ibinigi mu ijosi, umusaza afashe ikinini mu ntoki ndetse ku meza hari ibirahuri by'amaso n'igikombe, n'ibindi bikoresho bijyanye n'isuku.

Ni umugore n'umugabo ubona ko batari bato atari nabakuru cyane umugabo afite umuti mu ntoki arimo aragenda asobanurira uwo mugore we, imbere y'uwo mugore hari mudasobwa ndetse n'utundi ducupa turimo ibinini ndetse n'impapuro ndetse na telefone.

Ni umusaza ugeze mu za bukuru usheshe akanguhe, wambaye agakoma ku kuboko n'impeta ku rutoki n'umupira w'ubururu, imbere ye hari ikirahure cy'amazi afashe ibinini mu ntoki, ndetse hari umukecuru iruhande rwe uri kumwereka impapuro zo kwa muganga.

Ni umukecuru uri mu kigero cy'izabukuru, urimo urakora imyitozo ngororamubiri, ari ahantu hasa umweru, ndetse ari gukorera ku musambi w'icyatsi, nawe yambaye agasengeri k'iroze, ndetse n'akandi k'umweru mo imbere, uyu mukecuru yambaye n'urunigi mu ijosi.

Ni umuryango wishimye cyane urimo umusaza n'umukecuru, umukobwa wabo ndetse n'umuhungu ndetse n'utwana duto tubiri barishimye cyane, hari ibiti inyuma yabo ndetse bose barimo barasekera icyarimwe.

Ni umukecuru bigaragara ko akuze, yambaye agapira k'ivu, yiziritse bandana ku maboko, ndetse imisatsi ye irimo imvi. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari kumwe n'umugore utwite, wambaye agapira k'icyatsi.

Ni umukecuru n'umusaza bishimye cyane, barimo bafata ifunguro rya mu gitondo. Aba bantu bose bambaye indorerwamo z'amaso, barimo barafata ifunguro ririmo imboga ndetse n'amafiriti, hari n'ikirahuri cy'amazi iruhande rwabo.

Ni umukecuru uri mu zabukuru ariko ugaragara ko ari umusirimu cyane kuko imisatsi ye yayihinduye amabara, afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ndetse ari guhabwa imiti n'umuforomokazi wambaye impuzankano y'akazi.

Ni abaturage benshi bambaye imipira y'imyeru bari mu nama, hari n'umukobwa uri kubafotora na we wambaye umupira w'umweru, hakaba n'undi uri kubereka ibishushanyo bigiye biri hirya no hino wambaye agashengeri k'umutuku ikoti ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umweru.

Ni umudamu wambaye agapira k'umweru, ufite ibirahuri by'amaso ku mupira, wambaye agapfukamunwa, barimo baramukingira, hari abaganga babiri, hari umufashe ndetse n'uri kumukingira.

Ni abadamu bagera kuri bane, umwe yambaye ikanzu y'ubururu, undi yambaye ikanzu y'igitenge, undi yambaye ikanzu y'umutuku, barimo baraseka bari mu cyapa kiri ahantu mu ishyamba, bigaragara ko iryo shyamba ari iriri ahantu hari izuba ryinshi.

Ni abaturage benshi higanjemo abagore, barimo baragenda mu muhanda bakora ubukangurambaga ku bijyanye na kanseri y'ibere, bavuga ko umuntu agomba kuyikingiza kare kuko ivurwa igakira.

Kwa muganga ahari kubera igikorwa cyo gufata amaraso abarwayi, hari abaforomokazi babiri ndetse n'undi muforomo umwe, hari abarwayi ndetse inyuma y'abarwayi hari n'umukorerabushake uhahagaze.

Ni abantu babiri bambaye imyenda y'imikara bafashe mu ntoki icyapa kivuga kiti ''Twisuzumishe igituntu, kiravurwa kigakira.'' Aba bantu umwe ni umuhanzi, undi bigaragara ko akora muri Minisiteri y'Ubuvuzi.

Umurwayi wambaye imyenda y'umweru uryamye ku gitanda cy'abarwayi, iruhande rwe hari imashini iriho insinga nyinshi cyane, bigaragara ko uyu murwayi arembye nubwo yishimye arimo araseka.

Ni mu ivuriro aho bakira abarwayi, hari abarwayi bagera kuri bane, hari uri kuvugana n'ubishinzwe wambaye umupira w'ubururu, hari n'undi wicaye mu ntebe na we wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ingofero y'umukara, hari n'undi mudamu uri hepfo wambaye ijipo ya orange.

Ni mu ivuriro ry'amaso, ahafatirwa ibirahure by'amaso. Harimo ibirahure byinshi by'amoko menshi bigiye bitandukanye, hari amashusho agiye yometse ku nzugi, ashushanyijeho abantu, bambaye ibirahure by'amaso.

Ni inzu ndende igizwe n'amagorofa menshi. Ni inzu ijyamo ababyeyi babyaye, imbere y'iyo nzu hari ubusitani, ndetse hahagaze n'abaforomokazi bane, bambaye iniforme z'akazi ndetse bambaye n'udupfukamunwa.

Ni igisharagati kiri gukorerwamo igikorwa cyo gutanga amaraso, hari amashashi menshi arimo amaraso, hari abaturage bari gutanga amaraso baryamye ku bitanda, ndetse hari n'abaganga bari gufata ayo maraso.

Ni inyubako ndende igizwe n'amagorofa abiri, imbere y'iyo nyubako hari imodoka zigera muri enye ndetse hari n'umutaka urimo abantu babiri, iruhande rwabo hari n'undi muntu bigaragara ko arimo agana kuri iryo vuriro.

Ni ibitaro bigaragara ko ari bishyashya kuko nta barwayi barimo, harimo abaforomokazi bagera kuri bane, harimo ibitanda byinshi cyane biriho amashuka y'umweru ndetse ibyo bitanda bigiye biriho inzitiramibu z'imyeru ndetse hirya hari akagare k'umurwayi.

Ni abaforomokazi bagera kuri batatu, bari gufasha umurwayi uri mu mashini , urambitsweho igitambaro cy'icyatsi ndetse wambaye imyenda usa nkaho agiye kubagwa.

Ni ahagenewe gukorera imyitozo ngororamubiri, harimo imashini nyinshi cyane z'umukara, izo mashini zifite ahagenewe kureberwamo ndetse iyi nzu biragaragara ko bwari bwije kuko amatara arimo araka mu mpande za yo hirya ndetse no hejuru.

Ni inzu nziza cyane, igizwe n'amabara y'umweru, hejuru ku bikuta hagiye hariho ama mashini yabugenewe afata amashusho, ndetse iyi nzu harimo ibishushanyo byiza cyane, biri ku bikuta byayo, harimo intebe nziza z'ubururu ndetse n'izindi z'ivu.

Ni ikigo nderabuzima cya Matyazo kiri hafi y'umuhanda, mu muhanda harimo abantu benshi ndetse harimo n'ibinyabiziga, mu kigo nderabuzima haragaragaramo umugore witwikiriye umutaka, utwite, ndetse n'undi mugenzi we uri iruhande rwe wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ni inzu nshyashya cyane irimo ibirahuri bigiye bitandukanye, harimo amatara arimo araka ndetse harimo n'imashini zabugenewe zifata amashusho, harimo amakaro mashyashya, inzu ndetse na yo irasa umweru.

Ni umurwayi wicaye mu kagare, ufite ikibazo mu maguru, ari kwinjizwa ahantu mu gishararagati, hari umukobwa witeguye kumwakira wambaye umupira w'umweru n'ijipo y'umukara ndetse hari n'umwana urimo ugenda amusunika.

Ni ivuriro ry'amaso ririho udupirizo tw'umweru ndetse n'ubururu, ndetse n'igishushanyo cy'ijisho kiri ku gikuta, hari intebe ndetse yagenewe kwicaramo abarwayi, ndetse n'imashini izana umuyaga mu nzu.

Ni ikigo nderabuzima gifite ubusitani bunini cyane butuyemo ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye, hari imbangukiragutabara ziri hirya muri parikingi ndetse hari n'amazu agiye atandukanye.

Ni ivuriro bigaragara ko ari rinini, imbere yabyo hari ibyapa bigera kuri bibiri bifiteho amerekezo y'uko ivuriro rimeze, ndetse ku muryango waryo hari intebe zigera muri eshatu n'ikindi cyapa kiranga aho umuntu yinjiye.

Akana gato kakivuka kambaye ipantaro rose, gafashwe ku kaboko n'umuforomokazi wambaye itaburiya y'akazi ndetse na ga mu ntoki afite n'igitambaro cy'umweru mu mutwe, iruhande rw'ako kana hari amamashini menshi cyane.

Ni abaturage bari mu nama, imbere yabo hari ameza ariho intebe zigera kuri enye, yicayeho abagabo babiri ndetse hari n'undi mugabo uhagaze, ubona ko arimo arababwira. Muri aba baturage harimo abagore basheshe akanguhe, abagabo ndetse n'abandi bakiri bato.

Ni mukabwibwi, urabona ko butangiye kwira, hari amazu menshi, ari kwakaho amatara, ndetse hari n'ubusitani burimo ibiti, hari abantu bahagaze, mu makorodori ari kuri izo nzu.

Ibitanda biriho abarwayi batandukanye ndetse ibyo bitanda biriho amashuka ndetse n'ibiringiti, hari abarwaza bagiye bahagaze ndetse hari n'abantu bicaye mu tugare ibyo bitanda biriho inzitiramibu z'umweru.

Ni ibitanda byinshi bishasheho amamate y'umweru ndetse bifiteho inzitiramibu z'umweru, bigaragara ko nta barwayi barimo kuko ku bitanda nta barwayi bagiye bariho.

Umugabo wambaye ikabutura ndetse n'isengeri ufite imisatsi myinshi arimo arasimbuka ku migozi y'umuhondo ndetse n'umukara, iruhande rwe hicaye umugore wambaye imyenda isa umukara ndetse n'ivu nawe urimo arareba uko uwo mugabo akora imyitozo ngororamubiri.

Ni muibuto nyinshi z'ubwoko butandukanye harimo inkeri, tungurusumu, pome ndetse na avoka ndetse hari n'icupa hari n'umusambi wagenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto zo kwirukankana.

Umusore ukiri muto wambaye ipantaro y'umukara ikabutura y'ubururu n'umupira w'umukara, ufite imisatsi iboshye yambaye udukomo twinshi ku kaboko ari mu myitozo ngororamubiri, ari gukoresha itapi y'icyatsi ndetse inzu ye isize amabara y'umweru.

Ni umukobwa wambaye isaha ku kuboko afite imishumi mu matwi ye ijyamo imiziki, yambaye isengeri, ari ahantu ku musozi imbere hari ibitare ndetse n'amazi, bigaragara ko uyu mukobwa ari mu myitozo ngororamubiri.

Ni umukobwa uryamye ku musambi iruhande rwe hari indabyo zihateretse, uwo mukobwa yambaye kora y'umukara, agasengeri ndetse afite n'ibisuko. ari mu myitozo ngororamubiri.

Ni imbangukiragutabara, iri mu masangano y'umuhanda, ahari ishyamba haruguru y'umuhanda rinini cyane ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye biri hafi aho ngaho, iyi modoka iri mu muhanda hagati...

Ni igishushanyo cyiza cyane gishushanyijeho ijage irimo amazi ndetse n'ikirahure kirimo gusukamwo ayo mazi, iyo jage ifashwe n'ikiganza kiri mu ibara ry'umukara.

Ni umuganga wambaye itaburiya y'akazi, yambaye isaha ku kuboko ndetse afite n'amakara mu mufuka, arimo arafasha umurwayi ufite ikibazo cy'akaguru, amukanda mu iv,i uyu murwayi yambaye agapira k'umutuku.

Ni icyuma cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ikirahure cy'amazi, ndetse n'ikiru cy'imitobe harifu n'indimu, hari imboga, hari n'imbuto nkeri, ndetse na pome.

Umugabo wavunitse ukuguru k'uburyo bukomeye cyane ku buryo mu kaguru ke harimo insimburangingo nyinshi cyane, iruhande rwe hari abaganga babiri ndetse hari n'abandi bagabo benshi cyane baje kumusura.

Ni umusore munini cyane ufite ibigango mu buryo bugaragara akaba arimo kunywa amazi ndetse yambaye isengeri y'icyatsi bigaragara ko yari avuye mu myitozo ngororamubiri, ari ahantu ku musozi muremure cyane.

Ni umukobwa, wambaye agakabutura k'ubururu, n'agasengeri k'icyatsi, afite imisatsi myinshi, arimo arasunika igikoresho cyo gukoresha mu myitozo ngororamubiri.

Harimo imbuto nyinshi z'ubwoko bwinshi ari zo imineke, amacunga ndetse n'inanasi, hari imidari y'ishimwe ndetse n'ibinini byinshi binyanyagiye aho hasi, hari metero, hari n'uducupa.

Umusore ufite ibigango muburyo bugaragara yambaye imigozi y'ikoranabuhanga yuvirwamo imiziki mu matwi, afite icupa ryamazi arimo aranywa ku mazi yambaye agapira gafite ibara ry'ivu.

Ni abantu benshi bari munzu imwe bari mu nama kuri murandasi ndetse bambaye utunozasuku mu mutwe n'udupfukamunwa ku mazuru yabo, harimo abambaye impuzankano z'icyatsi ndetse n'abandi bambaye amakoti.

Umugabo wari uri mu myitozo ngororamubiri wambaye isaha ku kuboko ndetse wambaye n'ikabutura yagize ikibazo cyo mu ivi kuko afasheho arimo ararikanda, ari hagati mu muhanda inyuma y'umuhanda hari ishyamba.

Hari umusore mwiza urimo uranywa amazi, ufite isume y'umweru ku rutugu, yambaye agapira k'icyatsi, afite icupa ry'amazi ry'ubururu, afite ubwanwa, urabona ko ari umusore usa nk'aho avuye mu myitozo ngororamubiri.

Ni umugabo ufite ikibazo mu ivi cy'imvune, kuko yifashishije barafu, akoza kuri iryo vi rifite ikibazo. Yambaye ipantaro ndetse yagerageje kuyihina, ku buryo abona uko ashyiraho barafu.

Umukobwa ufite imisatsi mike wambaye imyenda isa ya siporo y'umweru, yambaye impeta ku rutoki arimo akora siporo amaboko afashe ku kaguru umutwe nawo uri gukora mu mavi, inyuma ye hari igitanda.

Ni abana bato bari mu myitozo ngororamubiri, hari abafite umupira ndetse hari n'abandi bagiye bamanika amaboko, hari uri hafi wambaye umupira w'amaboko maremare y'umutuku, ndetse n'undi wambaye umupira w'icyatsi, n'akana gato kambaye ikabutura.

Ni umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye inkweto z"iroze, kora y'umukara ndetse, n'isutiye y'umukara, afite telefone irimo imigozi yo kumviramo indirimbo ndetse iruhande rwe hari n'icupa ry'amazi.

Ni umugabo wambaye ishati y'iroze wicaye ku ntebe y'umweru iruhande rwe hari amamashini menshi y'ubwoko butandukanye ndetse hari na mudasobwa iri imbere ye iri kuberamo inama kuri murandasi.

Mu kibuga harimo umugabo wavunitse uri kugerageza kwiga kugenda, hari n'undi musore muto wambaye ikabutura n'umupira ufashe umupira mu ntoki, urimo uragenda afasha uyu mugenzi ufite ikibazo cy'amaguru.

Ni igishanga cyiza cyane, kirimo ibihingwa byinshi, byuzuye ku musozi, harimo abagore bagera kuri batandatu, barimo barahinga muri iki gishanga, harimo abunamye harimo n'undi umwe uhagaze.

Ni ibyatsi bye bitandukanye by'amoko menshi biri kudusho ndetse iruhande rwayo hari agasekuru gato ndetse n'umuhini wako bigaragara ko ibyo byatsi birimo birasekurwa ngo bibe byakorwamo imiti ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.